Amacupa arimo umuti bakoresha bazimya umuriro. Aha ngaha akunda kuba ahantu hose, mu buryo bw'ubwirinzi bw'inkongi.

Imihanda yo mu Rwanda ihuza imijyi n'icyaro politiki za leta zishyira imbere isana n'ikwirakwizwa ryayo ibyemezo by'ubwikorezi bwifashisha ikoranabuhanga nk'imirongo y'imodoka rusange n'uburyo bwo gukurikirana umuvuduko bifasha gutwara abantu n'ibintu byabo mu mahoro.

Imihanda yo mu Rwanda ihuza imijyi, icyaro n'ibihugu bituranye, kongerwa ubucuruzi n'imigenderanire, cyane cyane iya kaburimbo ihuza Kigali n'utundi duce, mu gihe iyi migenderano ifasha ubuhinzi n'ubucuruzi bwaho, imishinga y'iterambere ikomeje kunoza ubwikorezi, ibiraro bigezweho, amatara yo mu mihanda n'uburyo bwo kugenzura imodoka byongera umutekano.

Reka tuvuge ku byapa biyobora abagenzi biri mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali ibyo ngibyo biba akenshi biri mu mabara y'umutuku n'umweru bishushanyijemo ibirango bigiye bitandukanye kandi hakaba n'ibindi bigiye biriho nimero ziranga aho umuntu ageze.

U Rwanda rufite parike zinyuranye z'inyoni, zikurura abahanga n'abakunzi bazo, cyane cyane Nyungwe icumbikiye amoko adasanzwe arimo ayihariye ku gace k'inkombe, iy'Akagera ihuza imisozi, imyanya y'amazi n'inziga, icumbikira ibisiga n'inkongoro n'inyange.